Itsinda rya'bantu riri mu nama cyangwa amahugurwa bafite mudasobwa amakaramu n'amazi ku meza bigaragaza ko bari mu mwanya w'ibiganiro by'umwuga umwuka urasa n'ubunyamwuga kandi bigaragara ko abantu bari gutega amatwi ibi byerekana ko ari inama cyangwa amahugurwa y'ingenzi bigaragaza ko amacupa yabo ari kwigwaho neza.

Iyi foto iragaragaza umugabo uhagaze imbere y'abantu, bigaragara ko bari mu mahugurwa cyangwa inama, hari insakazamashusho iri ku rukuta ariko isa n'itabasha kwerekana amashusho neza, abantu bicaye ku ntebe z'umweru bateze amatwi umwigisha waba arimo gutanga ibiganiro.

Inama cyangwa ibiganiro byerekeye Kigali aho hari abantu bicaye ku meza y'inama hari ibyapa biribiri inyuma byanditseho amagambo Kigali yacu na Kigali ikeye bigaragara ko ibiganiro bishobora kuba bijyanye n'iterambere ry'umujyi wa Kigali hari abantu basa n'abayobozi cyangwa abakozi baganira ku ngingo runaka bishobora kuba birebana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali.

Inama cyangwa amahugurwa ari kubera mu cyumba cy'inyubako ifite amatara y'umucyo n'amadirishya manini. Umwigisha ari imbere yambaye ikositimu, akaba ari kuvuga mu gihe abitabiriye bari bicaye ku meza, bamwumva neza. Abantu bari mu nama ni abagabo n'abagore bambaye imyenda isanzwe cyangwa iy'akazi, bafite amakayi n'ibikoresho byandikwamo, ku rukuta inyuma hari ikirangantego.

Itangazo ry'ikiganiro k'ikigo gishinzwe ubugenzuzi ku musoro w'ipatanti y'igenamigambi ry'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, itariki ntarengwa yo kwishyura uwo musoro ni itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ikiganiro kizabera kuri radiyo y'u Rwanda ku isaha ya saa mbiri n'iminota cumi n'itanu.

Ipoto y'amashanyarazi iri hagati y'imihanda ifite insinga nyinshi ziyitambitseho zijya mu byerekezo bitandukanye, hagaragara inzu ifite urugi rufite ibara ry'ubururu, igiti kinini n'igipangu cy'urugo kiri inyuma, ikirere k'ijuru gifite ibicu biremereye bigaragaza ko ikirere gishobora gutanga imvura. Hari imodoka ifunguye urugi iri hepfo y'umuhanda ibumoso.

Umuntu uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, wambaye imyenda y'umukara. ufite indangururamajwi y'umukara, inyuma ye hakaba hari ikigega cy'umukara kijyamo amazi aturutse k'umureko w'inzu. N'inzu yubatse n'amatafari ahiye.

Inyubako igaragaza abantu bambaye imyambaro ya orange bari imbere y'inyubako, bigaragara ko ifungirwamo abantu kuko ibitse igikuta cy'amatafari atukura kandi ifite urugi rufunze, abo bantu bose bareba imbere bisa nkaho bategereje amabwiriza cyangwa bari mu murongo, hari n'abandi bantu bambaye imyenda isanzwe bari hafi aho bishobora kuba ari abashinzwe umutekano cyangwa abakozi b'iyo gereza.

Itsinda ry'abapolisi bari ku murongo, bambaye imyambaro y'abashinzwe umutekano, ifite ibirango by'igihugu ku kuboko, bamwe bafite intwaro abandi bafite amakayi cyangwa impapuro, biri mu gihe gishobora kuba ari imyitozo inama cyangwa igikorwa cyo gutanga amabwiriza, inyuma yabo hari inyubako zisa n'iziri mu kigo cya gisirikare cyangwa icy'amahugurwa, ibi bikaba byerekana ubunyamwuga, ndetse n'imyitwarire myiza y'abapolisi mu kazi kabo.

Umugore ufite igitambaro kinini kiri mu ibara ry'ivu atwikiriye isafuriya iri hejuru y'ishyiga ry'umutuku, iruhande rwe hari umupolisi wambaye imyenda y'umukara irimo imirongo y'umweru ndetse n'ingofero y'umukara, wambaye agapfukamunwa bigaragara ko ari gutanga amabwiriza kuri uyu mugore, inyuma ye hari imbaga y'abantu yifashe bigaragara ko ikurikiye ibikorwa biri kubera hano.

...igaragaza abantu bari gutonda umurongo imbere y'inyubako isa n'ishobora kuba ibiro bya leta cyangwa ahantu hatangirwa serivisi rusange, hari abantu b'ingeri zitandukanye. Harimo abakuze n'abana ndetse bamwe bambaye imyenda y'amabara atandukanye. Inyubako iri inyuma yabo ifite ibirahure bifite amadirishya afunze n'ibiti bishobora kuba bitatse. Iyi foto ishobora kuba yafatiwe ahantu hatangirwa serivisi nk'iyo kwandikisha ibyangombwa cyangwa ubundi bufasha bw'imibereho.

Ifoto igaragaza abagore bambaye imyenda gakondo bari imbere y'ibirango by'igihugu cy'u Rwanda birimo amabendera, basa n'abari muri umuhango wemewe bishobora kuba ari indahiro cyangwa ibirori bifitanye isano n'igihugu. Hari urukuta rufite igishushanyo kidasanzwe inyuma yabo ndetse n'ibikoresho by'ibiro cyangwa inama, iyi foto ishobora kuba ifite insanganyamatsiko y'ubuyobozi uburenganzira bw'abagore cyangwa ibirori by'igihugu abagore bakaba bazamuye muboko bose.

Ikamyo nini iri mu mabara y'ubururu igenewe gutwara ibikomoka kuri peteroli cyangwa amazi, kuko irimo ikamyo y'ibidederi iri mu muhanda irimo kugenda kandi inyuma yayo hari ibinyabiziga bito birimo za moto, hirya yayo hari igitambaro cyerekana ko hari igikoresho cy'amabendera cyangwa ikimenyetso cy'ubwirinzi cyashyizwe inyuma yayo.

Umuhanda munini w'umukara urimo imodoka ntoya y'ubwikoreziri n'umuntu utwaye igare arimo gutwara undi muntu. Hari ibiti byinshi bikikije umuhanda ndetse hari uruzitiro rw'icyatsi rutandukanya umuhanda n'ahandi hantu iki gishobora kuba ari ahantu hatuje kandi hatwikiriye ubusitani.

Ikimenyetso cy'umuhanda kiri mu mabara atukura ndetse n'umweru, kiri hari ijambo riri hagati rigaragazako ari ikimenyetso gisaba abatwaye ibinyabiziga kugabanya umuvuduko no gutanga inzira ku bandi mbere yo gukomeza, cyashyizwe ahantu hameze nk'icyaro hari ibiti byinshi n'ubusitani inyuma yacyo, ndetse n'ibiti birebire bifite amashami magufi.

Icyapa cy'ubururu gifite inyuguti ya "p" hamwe n'igishushanyo cya bisi kigaragaza ko ahantu hagenewe guhagararamo amamodoka y'amabisi. Iki cyapa kiri ahantu hitaruye hagaragara ubusitani butoshye hamwe n'inyubako zigezweho inyuma yacyo. iruhande rwacyo hari inzira y'abanyamaguru. Inzu iri inyuma yacyo ikaba iri mu mabara y'umweru ndetse n'ibirahuri by'ubururu bigaragaza ko ari ahantu hatangirwa

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara agira ngo Rambura hari igice cy'muhanda ucuramye gifite amatara yo ku mihanda ndetse n'ibiti byinshi ku mpande hari indi nzu n'abantu bake bagaragara kure mu muhanda ibi bishobora kugaragaza ko ari ahantu mu cyaro cyangwa agace gato kari hafi y'umuhanda nyabagendwa, hakaba hari inzira y'amazi nini.

Inyubako y'amagorofa iri inyuma kuruhande rwicyatsi kibisi gifite uruzitiro rukozwe mu biti n'amatafari hari ibiti n'ubusitani imbere bigaragaza ko ari ahantu hateye neza kandi hasukuye iyo nyubako igaragara nki iy'ubucuruzi cyangwa icumbikira abantu iruhande hari ibiti by'amashami maremare y'icyatsi.

Ahantu hari ubusitani ubusitani cyangwa ishyamba rito rifite ibiti byinshi bifite ibibabi bitoshye hari inzira igaragara k'uruhande ishobora kuba umuhanda cyangwa umuhanda w'abanyamaguru, ahantu nkaha hashobora kuba hakwiriye kuruhukirwa, gutembererwa cyangwa kwidagadura mubidukikije byiza.

Inzu igezweho ifite amarangi y'umukara ndetse n'umweru, ifite ibirahure binini by'icyatsi ndetse n'amadirishya, hari uruzitiro rukomeye ruzengurutse iyi nzu hamwe n'umuhanda w'ibitaka n'ibyatsi bigaragara ku ruhande, iyi nyubako isa nk'ifite amagorofa kandi iherereye ahantu hagezweho mu mujyi, hari igiti kinini gifite amashami maremare imbere y'iyi nzu.

Igice cy'umujyi gifite inyubako nyinshi zigezweho hariho inyandiko Kibagabaga akaba ari agace gaherereye i Kigali mu Rwanda inyubako ndende zerekana iterambere ry'ako gace ndetse bigaragara ko ari ahantu hatuwe n'abantu benshi imiterere yaho igaragaza amashyamba make inyubako nyinshi n'ubwiza bw'imiturire isukuye, hakaba hari ibigori biri imbere ndetse n'imiyoboro y'amashanyarazi hejuru.

Igice cy'umujyi kirimo inyubako nyinshi zifite ibisenge bifite amabara atandukanye harimo ubururu, umutuku n'umuhondo, hari inzu iri imbere ifite ibisenge bya metari bisa n'iby'inganda cyangwa amashuri, muri rusange igaragaramo ubwinshi bw'amazu bigaragaza ko ari ahantu hateye imbere mu buryo bw'imyubakire, hari ibimera bike bigaragara hafi y'inyubako, indege y'ikirere ituma bigaragara ko uyu munsi ari mugari.

Umuhanda uri ahantu hahanamye aho umuntu umwe yambuka umuhanda anyuze mu mirongo yabugenewe, mu gihe undi ari kumureba, inyuma hari imodoka y'umukara ihagaze aho hafi n'aho hirya hari abantu bari kuri moto, ahagana inyuma haragaragara igice cy'umujyi gifite inyubako nyinshi n'ibiti byinshi, bigaragaza ko ari ahantu hafite ubusabane bw'imisozi, hari n'ibyapa by'umutuku.

Umuhanda munini w'umukara uri kunyuramo imodoka y'umweru ndetse n'umukara ziri kunyura mu byerekezo bitandukanye hari imirongo y'umweru igaragaza ko ari ahantu ho kwambukira habugenewe hari inyubako ziri inyuma zirimo amaduka n'amazu y'ubucuruzi iyi foto ishobora kuba yarafatiwe ahantu hahurira abantu benshi nko mu mujyi cyangwa ahantu hakorerwa ibintu by'ubucuruzi inyuma iruhande rw'imodoka hari imiyoboro minini'

Umuhanda ufite igice cyagenwe kwambukiramo abanyamaguru, hari abantu batandukanye bambuka umuhanda abandi bari ku ruhande rw'umuhanda. Ndetse hagaragara imodoka n'ibiti byinshi, hari inyubako zitagaragara neza mu cyanya kiri inyuma. Ibi byerekana ko ari ahantu hafite umutekano n'imitunganyirize myiza y'imihanda. Hari imodoka zigenda mu byerekezo bitandukanye ndetse na moto n'imodoka byarindiye abantu ko bambuka.